Iyi ni ikayi cyangwa agakarine kagaragaza ibiciro by'ibintu by'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa, mu hantu runaka abantu biyakirira.

Umwana, uhagaze umwana mutoya ufite igikoresho cy'itumanaho mu intoki abagabo bari inyuma ye bambaye imyenda y'umweru n'umutuku, y'ubururu numutuku iruhande ye hari igicuba cyagenewe gushiramo amata.

Iyi foto turabonaho abakobwa abantu babiri bafite udukarito mu ntoki tw'amata basa nkaho bari kwamamaza cyangwa se kwereka abantu ibikorwa byabo.

Iyi foto iragaragaza indobo ebyiri, imwe irimo amandazi mo imbere, hanyuma hari n'akantu hejuri k'akuma bakoresha bayafata, bayarura.

Iyi foto iri iragaragaza abantu benshi ariko higanjemo abakozi ba MTN bambaye imyenda ya MTN igaragaza akazi kabo, basa nk'aho bari gutanga serivise ku bantu baje babagana.

Abakobwa bane n'umuhungu umwe uri inyuma, abantu bane bambaye imipira y'umuhondo ya emutiyene, hari n'undi umukobwa umwe, umukobwa umwe uhagaze usaba serivise

Ndabona umukozi wa mtn, sinzi niba ar'umukozi wa mtn ariko ari mu kazu ka mtn. Nkabona inyuma ye akikijwe n'intoki, inzu...

Abakozi bakorera emutiyeni bambaye imyenda y'umuhondo igaragaza akazi, imipira y'umuhondo ndetse n'icyapa kiri inyuma yabo cyerekana akazi bakora.

Iyi foto iragaragaza umuntu uri kuri moto usa nk'aho atwaye umuzigo bisa nk'aho ari kampani akorera cyangwa ari ikigo akorera gishyira abantu ibintu mu rugo bitarinze ko baza kubyirebera.